Intangangabo zigaragara mu ishusho y'umuhondo weruye ndetse n'umweru wijimye mo gake, ku ruhande zikikijwe n'ibara ry'ubururu.

Abantu babiri umwe arunamye, ari kudaha amazi mu mugende, undi yicaye iruhande rwe inyuma yabo haribyatsi bifite ibara ry'ubururu, ndetse hari n'amaguru agaragaza umuntu uhagaze inyuma yaho.

Umugore uhetse umwana mu mugongo, amutwikirije igitenge cy'amabara, umwana yambaye inkweto z'umukara, ndetse umubyeyi ari koza umufuniko w'indobo y'umuhondo, umufuniko ni umutuku, ku ruhande hari indi ndobo y'umutuku, ndetse n'ivomo rusange.

Icyumba kinini kirimo abantu babiri bisa naho ari abaganga bambaye udupfukamunwa, umwe yambaye ikote ry'umukara undi yambaye itaburiya y'akazi y'ubururu imbere yabo hahagaze umugore ndetse hari n'bandi bicaye, inzu igizwe n'inkuta zisizwe ibara ry'ubururu ku nkuta harih’ibyapa bishishikariza ababyeyi gupimisha abana...

Abana bato bambaye impuzankano bari gukaraba ku ivomo rusange, inyuma yabo hari inyubako yubakishijwe n'amatafari ahiye, ndetse hasi hari umucanga mwinshi w'amabuye.

Kwagura ubuvuzi binyuze mu bajyanama b'ubuzima, ni bwiza kandi bituma ubuvuzi bwegerejwe abaturage, aha rero hari abayobozi bari gusobanura ibijyanye n'ubuvuzi babisobanugira abajyanama b'ubuzima.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako, bambaye udupfukamunwa ndetse bamwe muri bo bambaye amataburiya y'ubururu, inyuma yabo hari ibyapa bifite ibara ry'umutuku iry' umweru ndetse ni ry'ubururu ndetse n'inkingi z' inyubako zifite ibara ry'umweru.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako ifite inkingi z'amabara y'umuhondo, amadirishya y'umweru, ku ruhande hari ubusitani bufite indabo zifite ibara ry'icyatsi.

Abana benshi bicaye hasi, bambaye imyambaro y'umuhondo, bari guhabwa igikoma n'abashinzwe kubitaho na bo bambaye imyambaro y'umuhondo, bari kumwe n'umuyobozi wa Polisi.

Umuntu ufite impapuro yohereza abandi benshi yambaye umupira w'ubururu ndetse na kajeri yangwa agasengeri k'umwenda w'akazi nyuma hari abandi benshi bafite impapuro ndetse inyuma yabo hari ibiti bininibi.

Abantu benshi bicaye ku ruziga bazengurutse, bambaye umwambaro w'ubururu usa ndetse ku rukuta hariho amarange y'umuhondo, imbere hari ameza y'imbaho.

Abantu, abantu benshi bahagaze ku ivomo rusange, batondetse amajerekani ku murongo, amajerekani afite ibara ry'umuhondo, andi iry'umweru, ivomo riteye irangi ry'ubururu, inyuma yaryo hari ibiti birebire.

Abagore batanu bateraniye mu cyumba kimwe cyo kwa muganga bisa naho bari kwiga cyangwa bari kubwirwa ku by'uburwayi cyangwa kugirwa inama ku ngingo zimwe na zimwe zo kwa muganga, muri abo bose umuganga ni umwe abandi bose bamuteze amatwi.

Abantu benshi, bari mucyumba cy'ishuri, bamwe bambaye amashati y'umuhondo ariyo mpuzankano, umuryango ufite ibara ry'ubururu hahagazemo abandi bantu bambaye imyenda y'umweru ndetse n'inkuta zifite umwanya yumweru.

Umwana uri ku ivomo rusange, ari kunywa amazi akoresheje intoki, munsi ye hateza indobo y'umweru, hirya ye hari ubwatsi, ndetse hirya y'ubwatsi hari inyubako isize amarangi y'umweru n'ubururu.

Imbangukiragutabara ihagaze imbere y'abaturage benshi, hari inyubako ngendanwa zikorerwamo ibirori, zifite amabara y'umweru ndetse inyuma y'aba bantu hari n'izindi modoka zihahagaze.

Abantu benshi bicaye mu cyumba imbere yabo hahagaze umugabo ufashe impapuro mu ntoki, inyuma ye hari urugi rw'urubaho cyangwa rw'igiti rufite ibara ry'ubururu ku ruhande hari amatafari ahiye agize urukuta.

Abantu batatu bicaye ku ntebe z'urubaho, bambaye udupfukamunwa, umwe afite igitabo cyangwa ikayi mu ntoki ze, hirya yabo hari inyubako zubakishijwe ibyatsi.

Abantu babiri bicaye umwe yambaye ikanzu y'umukara undi yambaye ikanzu y'ubururu ifitemo utubara t'umweru, imbere yabo hateretse akadobo k'ibara ry'umweru gafitemo umucanga imbere ndetse urukuta rufite ibara ry'umweru.

Abantu benshi bishimye bingeri zose, abato, abakuru, ndetse n'abasaza bari kwamamaza idarapo ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Abantu bicaye ku ntebe z'umutuku, umwe muri bo afite indangururamajwi, imbere ye hateretse mudasobwa ndetse n'icupa ry'amazi, inyubako ifite amarange y'umweru.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ahagaze imbere y'abantu benshi abateye umugongo, harimo abambaye imipira y'umutuku ndetse n'ingofero y'umukara n'abandi batagaragara neza.

Umugabo wambaye ishati irimo amabara y'ubururu ndetse n'umutuku uganje, yambaye ipantaro y'umukara ari gusuhuzanya n'undi ufite imisatsi ndetse n'ubwanwa bwinshi, yambaye imyenda yacitse bigaragara nk'aho afite ikibazo cy'uburwayi. Uyu umugabo rero ari kumusuhuza amuhanze amaso.

Abantu babiri umwe afashe umwana, undi afashe terefone mu ntoki, afashe n'igipimo gipima ubushyuhe, ari kwereka uyu mubyeyi ufashe umwana mu ntoki, inyuma yabo hari imbaho zihakikije.

Umuntu wishimye atetse kumashyiga akoresheje inkwi, i ruhande rwe hari igikombe cy'ubururu ndetse n'umufuniko w'isafuriya, inyuma ye hari inyubako ifite inzugi z'ubururu n'icyatsi inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Umugore wicaye ku musambi afite abana babiri umwe yicaye ku ruhande undi aramuteruye, yiteze igitambaro cy'umuhondo, imbere ye hari intara iriho umuceri undi uri mu ngemeri bigaragara ko ari kuwutora, inyuma yaho hari inzu babamo y'ibyondo.

Umukobwa wicaye ku ntebe z'urubaho yiteze igitambaro cy'umuhondo mu mutwe, inyuma ye hari urukuta rufite amabara y'umweru ashushanyijeho ururabo.

Uyu mugabo arishimye ari guseka, yambaye ubusa hejuru, afite umwambaro cyangwa esuwime cyangwa umwenda wo kwihanaguza w'umweru, afite akadodo afatishije amaboko yombi, ari kugakurura aseka.

Umuntu ufite urudodo rw'umweru arufatiye ku menyo yo hejuru, yambaye umupira w'umweru inyuma ye hari irangi ry'umweru ritagaragara neza.

Abantu babiri bafashe urudodo rw'umweru, bambaye imipira y'imyeru bose, inyuma yabo hari ibara ry'ikigina ndetse n'ibara ry'umweru ku rukuta.

Umuntu ufashe urudodo arufatiye ku menyo, yambaye umupira w'umweru, inyuma ye hari ibara ry'umweru.

Abana batatu bambaye imipira y'ubururu, bari bari koza amenyo, bakoresheje uburoso butandukanye, inyuma yabo hari ibiti bifite ibara ry'umuhondo.

Umwana wabumbuye umunwa, hari amaboko afatiye ibyuma mu kanwa ke yambaye udupfukantoki cyangwa uturindantoki tw'umweru.

Abantu babiri bambaye imyenda y'umukara, inyuma yabo hari amadirishya afite ibara ry'umukara.

Aba basaza bakuru. bahagaze bambaye, yamba shati y'umweru ,undi ishati y'ubururu bwerutse, ishati imwe ina afite umwitero w'umukara, ishati y'uburu, ifite numwiro w'umweru. nyuma yabo hari abantu benshi, hasakaye bisa nkaho ari ikirori cyangwa ubukwe bwa habaye.

Abantu babiri bishimye, umwe yambaye amarori ari guseka yambaye ishati y'umutuku y'icaye mu ntebe z'imisego, undi yambaye ishati y'ubururu inyuma yabo hari ibirahure by'umweru ndetse n'ibara ry'umuhondo mu nzu.

Abantu babiri umwe yambaye umupira w'ubururu undi yambaye umupira wumutuku kumeza imbere yabo hateretse ikirahure cyamazi, agacupa k'imiti ndetse umwe ari kwereka undi ibyanditse ku rupapuro bicaye mu nzu ifite amarangi yumweru ndetse n'ibitambaro by'amarido by'mweru.

Abantu batatu bishimye, umwe muri bo yambaye amarori, kuhande hari udusorori tw'ibara ry'umweru, inzu ifite uruta rw'ibara ry'umweru.

Abantu babiri bicaye imbere yabo kumeza hari impapuro zanditseho, inyuma yabo hari izindi ntebe zibakikije, urukuta rufite irange ry'umweru ndetse n'ibirahure, umwe muri aba yambaye amarori.

Abantu babiri, umwe yambaye umupira w'umweru undi yambaye iby'umutuku hasi no hejuru, inyuma yabo hari igitambaro gisize ibara ry'umweru uwambaye ishati y'umweru yambaye amarori.

Itangazo ry'inama mpuzamahanga rishinzwe imirire n'ubuzima ,bimwe mu bigize ishusho harimo izina ry'inama, hakaba itariki izaberaho, aho izabera ndetse n’urubuga rwabo. Ku ruhande hari akamenyetso kanditseho rejisita nawu, bivuze ngo wakiyandikisha ubu.

Abantu babiri bambaye impuzankano isa bambaye udukantoki udupfukamunwa ndetse n'utundi turinda umutwe, inyuma yabo hari ameza y'umweru ndetse n'igitambaro cy'umweru umugabo wicaye ku ntebe ndetse no ku ruhande hari abandi batonze umurongo benshi.

Abantu benshi bari mu cyumba bambaye imyenda y'iroza isa, ndetse n'abandi bambaye imyenda y'umweru, bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hari amadirishya asize irangi ry'umweru ndetse n'irangi ry'umuhondo ku rukuta.

Inyubako nini ya karayesi, ifite irangi ry'umuhondo, ikagira n'irindi rya shokora, ifite amadirishya y'umweru, ikagira ibirahure by'umweru, imbere yayo hari ubusitani buto buririmo indabo y'umuhondo n'utwatsi n'uduti tw'icyatsi dufite indabo z'iroza.

Abantu babiri umwe ateruye umwana yambaye umwambaro w'ibara ry'iroza, undi arahagaze yambaye ishati y'umweru n'amarori ndetse n'agapfukamunwa n'akantu ko mu mutwe.

Icyumba kinini kirimo ibitanda bisheshweho amashuka y'umweru ndetse n'ubururu, bifite amarido y'umweru ikagira amarangi y'umweru ndetse n'urundi ruhandefite amabara y'ubururu ndetse n'amatara y'umweru.

Inyubako nziza nini ndende isize amarangi y'mweru imbere yayo ifite aho bahagarika imodoka ahanini ikagira ubusitani bugari ndetse imbere yayo hari insinga zitwara amashanyarazi ku muhanda.

Inyubako nziza nini y'ubuvuzi, irimo intebe zigezweho z'imifariso, harimo ibintu birimo indabo, inyubako irimo amarange y'umweru, hejuru ifite parafo y'umuhondo, n'amatara yaka umweru.

Abantu babiri bicaranye umwe yambaye imyenda y'ubururu indi yambaye ikanzu y'amabara atandukanye, afite igitambaro cy'umukara mu mutwe inyuma yabo hari urutoki, imbere y'urutoki hakikijwe indabo nyinshi.

Inyubako nini irimo ibyuma byinshi byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, biri mu nyubako ifite amarangi y'umweru hasi no hejuru n'ibirahuri by'umweru.

Ibitaro bya Fayisali bifite inyubako ndende, imbere yabyo hari igiti kinini cy'inganzamarumbo, hari darapo ry'igihugu ndetse inyubako yubakishijwe amatafari ahiye.

Abantu babiri, bambaye amashati y'umweru, umwe yambaye agapfukamunwa, ndetse afite n'imashini y'ubuvuzi, inyuma yabo hari amarangi.

Icyumba kinini kirimo imashini ya radiotherapy ikoreshwa mu kuvura indwara ya kanseri hakoreshejwe imirasire, imashini nini ifite igice kizengurutse gifite ibara ry'ubururu n'umweru ikagira igitanda cy'abarwayi cyera kiri imbere.

Abantu batatu umwe yambaye ipantaro y'iroza ndetse n'ishati y'iroza, yambaye udukantoki, isaha ku kuboko, agapfukamunwa ndetse n'amarori, azamuye ukuboko abandi babiri bambaye amakanzu, inyuma yabo hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Icyumba kinini, kirimo intebe, ndetse n'ibitanda, intebe ziri mu ibara ry'umutuku, ndetse n'ibitanda biri mu ibara ry'umutuku, inkuta zisize ibara ry'umweru, ndetse na parafo ni ibara ry'umweru, n'amatara n'ay'umweru.

Icyicaro gikuru cy'ibitaro gishinzwe amaso, gifite inyubako nini ifite amarange y'umweru, ikaba yubakishijwe amabuye cyangwa amatafari ahiye, ifite inkingi z'ibyuma, ikagira aho bahagarika imodoka hanini.

Aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, hafite inyubako nini yubakishijwe amatafari ahiye, inyujijemo umurongo w'irange ry'umweru ryanditsemo amagambo ndetse n'amadirishya y'umweru.

Inyubako nini ishyizeze irangi ry'umuhondo kurukuta no ku muryango imbere kumuryango hateretse intebe z'urubaho ebyiri inzu yubakishijwe amatafari ahiye imbere yayo hari abantu babiri bari kugenda imbere.

Icyumba kinini kirimo igitanda gishasheho ishuka y'umweru, urukuta rufite amarange y'umweru ndetse na parafo ni umweru ndetse n'amakaro nayo n'umweru.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye ku ruhande hari kizimyamuriro ifite ibara ry'umutuku, munsi hari ubusitani buto bukikijwe n'indabo z'umuhondo, inyuma hariyo ibigega bibikwamo amazi bibiri by'umukara.

Umukobwa wambaye ingofero y'umweru umupira w'ubururu ndetse n'udupfukantoki afashe uruhinja ku kaboko, uruhinja ruryamye ahantu hafite ibirahuri kumpande hasi hariho umweru.

Icyumba kirimo intebe nini iri mu ibara ry'ubururu ndetse hasi ifite ibara ry'umweru, ku ruhande hari agatebe gato k'ibara ry'umukara ndetse hirya hari akabati k'amapine kariho imashini hejuru, iki cyumba gifite amarange y'umweru hasi no hejuru.

Inyubako nini ifite amarangi y'umweru hasi ndetse no ku nkuta, ifite inkingi zifite amabara y'ubururu ndetse n'intebe zifite amabara y'umweru, n'imiryango y'amabara y'umweru.

Inzu y'ababyeyi yubakishijwe amatafari ahiye, isakaje amabati asize irangi ry'ubururu, imbere yayo hahagaze abantu benshi bambaye amataburiya asa ndetse n'abandi bambaye imyambaro itandukanye.

Icyumba kinini kirimo ibitanda byinshi bitandukanye by'ibyuma, biriho amashuka y'umweru ndetse n'ay'ubururu, imbere ku rukuta hasize amarangi y'umuhondo ndetse hariho n'inzitiramibu zifite ibara ry'umweru.

Ikigo nderabuzima cya Matyazo, gifite icyapa kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, gifite amarembo asize irangi ry'umweru, kegereye umuhanda, munsi y'umuhanda hari abantu bari kugenda ndetse n'imbere hari abari gusohoka bava ku kigo nderabuzima.

Ikigo nderabuzima cya Shagasha, gisize amarange y'umuhondo imbere, gifite inzugi n'amadirishya bisize amarange y'umukara, cyubakishijwe amatafari ahiye, gisakajwe amabati y'ubururu, imbere hari amapave cyangwa amabuye aconze agose ahantu.

Igishushanyo mbonera cy'inyubako, kirimo inkingi zubatswe mu buryo bumeze nk'ibiti, igisenge gifite amabara y'umuhondo n'umweru, hamwe n'amadirishya manini atuma urumuri rusanzwe rwinjira imbere, iki cyumba gisa naho cyagenewe kwakira abarwayi cyangwa abantu baje kwitabwaho n'abaganga, gifite intebe zagenewe kwakira indembe.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura, harimo igitanda cy'ubururu, kabati k'umweru, ndetse na mudasobwa zigaragaza uburwayi, hakabamo n'isaha ngendedanwa.

Ikigo nderabuzima cya Gisenyi kiri ahantu heza hakikijwe n'ibiti byiza by'inganzamarumbu, cyubakisheje amabuye cyangwa amatafari ahiye, gifite amarembo atukura kikagira icyapa kirimo ibara ry'umweru ndetse n'iritukura, imbere hari umunyonzi uhetse umugore.

Ibitaro bya Nyarugenge, ni binini bifite inyubako ndende igereretse yubakishijwe amatafari ahiye, isize amarange y'umweru, ikagira ubusitani bunini imbere yayo.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru, yambaye amaherena ku matwi, yambaye amarori ndetse n'agapfukamunwa, ari imbere ya mudasobwa iri mu ibara ry'umweru ndetse iri mu cyumba gifite urukuta rw'amarange y'umweru.

Inyubako ndende nini isize amarange y'umweru isakaje amabati y'umutuku, imbere yayo hari idrapo ry'igihugu, imbere y'idarapo hari ishyamba ry'inturusi, hakurya yaryo hari agasozi nako kariho irindi shyamba.

Inyubako nini igeretse, isakajwe amabati y'ubururu, ifite amarembo manini asakaye, imbere yayo hahagaze abantu batatu ndetse n'undi umwe uhagaze impande y'imodoka, ndetse n'abandi bahagaze imbere y'amarembo, n'abandi bari imbere y'amarembo.

Inyubako ndende yubakishijwe amatafari ahiye, azengurutswe n'ibyuma byinshi, isize amarange y'umuhondo, ifite ibirahure byijimye, imbere yayo hari imodoka zihahagaze, imbere y'imodoka hari akazu gato kariho icyapa.

Umuntu wambaye ipantaro y'ubururu n'agapira k'ubururu ahagaze ku kaguru kamwe afasha akandi agafatiye inyuma yambaye inkweto z'umukara n'umweru ndetse n'umutuku, akandi kaboko agafata imbere ku ruhande rwe, ku rukuta rusize ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Abantu babiri umwe yambaye ikote ry'umukara, undi hagaragara akaboko k'umwenda w'umweru, yambaye akarindantoki k'umukara n'umweru, uyu wundi ari kumukora mu biganza.

Umuntu ufite icupa ku munwa yambaye agasengeri k'ubururu, inyuma ye hari imirasire y'izuba.

Akagare k'umuntu ubana n'ubumuga gafite intebe y'umukara, ibyuma bigafashe by'umutuku ndetse gafite amapine ane y'umukara.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho cyifashishwa mu myitozo ngororamubiri gifite inkuta zisize amarangi y'umweru ariho magambo yandikishije ibara irangi ry'umukara ifite parafo y'umweru.

Umugabo uri mu cyumba kinini, gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, ari gukora imyitozo ngororamubiri, mu biganza bye harimo ibikoresho binini biremereye, yari ari kwifashisha bifite ibara ry'umuhondo, ku ruhande rwe hari undi muntu umuhagaze imbere bisa n'aho ari kumuha amabwiriza, cyangwa ari umutoza.

Abantu benshi bahagaze ku mirongo, mu kibuga, giteye mucanga hasi kuruhande hakikijwe ubusitani, ndetse n'ibiti birebire, inyuma yaho hari amazu afite amabati y'umutuku.

Umukobwa wambaye agasengeri gato, ipantaro imufashe, ifite mu nda hato, ari mu myitozo ngororamubiri azamuye amaboko, afite umusatsi muke wirabura, ari mu cyumba cy'imyitozo ngororamubiri kirimo amarangi y'mweru, akaba n'amavase arimo indabo.

Icupa rya parasitike ririmo amazi, rifite umufuniko w'ubururu, hari amazi ari kwitera hejuru iruhande rw'icupa, bikagaragara ko icupa riri hagati y'amazi menshi ndetse ayo mazi na yo agaragara mu ibara ry'ubururu.

Umuntu, uryamye, ku gatapi, yambaye imyenda yumukara, yazamuye akaguru agafatisha akaboko, igikuta gifite ibara ry'umweru, ndetse n'ibirahuri by'umweru.

Akiti sipurinti ni ubwoko bwa sipurinti bwifashishwa mu kuvura cyangwa mu gukomeza ingingo zababaye, ndetse kandi igizwe n'amabara y'umweru, umutuku wijimye, ndetse ku ruhande rwayo hari agakarito izamo, kari mu ibara ry'umweru, ndetse n'umukara.

Umuntu wambaye isengeri y'umukara, yicaye ahinnye amavi, yambaye agakoma ku kuboko afatiye icupa ryamazi munwa.

Umuntu wicaye mu ntebe, ku ruhande hari undi uhagaze, uri ku mukanda akaboko, usa naho ari kumwunga, uhagaze yambaye itaburiya y'umweru, uwicaye yambaye umupira cyangwa ni ishati y'ubururu, ndetse n'ipantaro y'umukara, yicaye mu ntebe y'umukara.

Umuryango CROIX ROUGE:umuryango mugari ufasha abantu bagize ibibazo bitandukanye. Aha ngaha bigaragara ko babiri bambaye imyenda ya CROIX ROUGE bateruye umuntu wagize ikibazo bari kumuha ubufasha. inyuma yabo hari ibiti, hari ubusitani ndetse hari abandi bantu bambaye imyenda y'umweru isa.

Ikizingo cya bande ifite ibara ry'umutuku, riri ahantu hari ibara ry'umweru. Yifashishwa mu gukomeza amagufwa mu gihe uri mu myitozo ngororamubiri cyangwa ugize ikindi kibazo cy'impanuka, bamuha ubutabazi bw'ibanze bidasabye kubanza kugera kwa muganga.

Abantu benshi bari mu cyumba harimo abicaye bambaye upfukamunwa ku meza ari imbere hateretse mudasobwa irimo amashusho ndetse n'indi iri ku ruhande na telefoni ndetse hari indi iri ku rukuta.

Inkweto, ndende z'umukara zifite imashini kuruhande ndetse n'imishumi bazifungisha zifite ikirango kinini cyazo.

Umuntu wicaye mu busitani yambaye ikabutura y'umukara, isengeri y'umukara ndetse yifashe ku itako.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi n'abarwaza ndetse n'abaganga, abaganga bambaye amatabuririya y'umweru ndetse bamwe muri bo bambaye amarori y'umukara hari umukobwa wambayeba itaburiya y'umweru uri kubereka ifoto mu cyuma.

Ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze byifashishwa igihe umuntu akomeretse cyangwa agize ikindi kibazo gisaba kumujyana kwa muganga cyangwa icy'uburwayi, ukabanza kumufasha mbere yo kumujyana kwa muganga. Muri ibyo bikoresho dufitemo; igikoresho cyo gukata, twakwita nk'umukasi, purasitike zifata, masike y'ubutabazi ndetse n'ibindi bikoresho byinshi. Hasi hari ikirango kigaragaza...

Umukinnyi yagize ikibazo cy'imvune ari kwitabwaho n'umuganga we, umukinnyi yambaye agapira k'umutuku, gafite imibare imuranga mu gatuza, muganga yambaye akajire k'icyatsi yambaye na ga z'umweru.

Ikirango kinini cyangwa icyapa kinini kirimo amafoto menshi y'ibiribwa bitandukanye, buri kiribwa kigiye gifite cyangwa buri foti igiye ifite inyuguti kuva kuri a kugera kuri a ndetse uko bigaragara ibimera byinshi birimo n'ibice byabyo n'inkari.

Umugore wambaye ibitenge binini, ari gusuroma amababi y'uduti twifashishwa mu gukora imiti ikomoka ku bimera ndetse bigaragara ko nawe yaba ari umuvuzi cyangwa abo twita abavuzi gakondo.

Agasahani gato gateretseho agakombe, cyangwa akarahure k'umweru ndetse n'agasani ni umweru, karimo irongi riri mu ibara ry'umuhondo, kuruhande hari tangawize biteretse ku gatambaro, karambuye ku meza y'igiti.

Abantu babiri bahagaze mu ishyamba ririmo ibiti binini, ndetse umwe yambaye umupira w'umweru, yiteze agatambaro mu mutwe, undi yambaye umupira w'umutuku ndetse n'ikote ry'umukara.

Tungurusumu nyinshi ziri mu ibara ry'umweru, zimwe ziracuritse, izindi ziracurukuye, zicuritse mu buryo ubona ahaza imizi ndetse n'aho zizanira amababi.